Abaganga babiri bafite umurwayi ku gitanda uryamye, umwe ari kumwitaho yacometse n'imashini imuha umwuka ,undi ari kureba muri mashini imyirondoro ye.

Ikigo nderabuzima kiriho abarwayi batandukanye, harimo umwe uri gukora imyitozo yo gukina baro. Inyuma ye hari umuganga uri kuganiriza abandi barwayi, bose bari hanze imbere y'ibitaro.

Umuganga uri muri farumasi uri kureba mu mumashini ipima amaraso yashyizemo udutesite, yambaye agapfukamunwa na rinete ndetse yambaye n'a ga, kugira ngo ataza guhura n'ikibazo.

Inama y'abaturage yateranye imbere yabo hahagaze umuyobozi ari gutunga akaboko iburyo ari kubereka ibikorwa remezo, izuba ryabishe, bazanye n'abana.

Icyapa cya RBC cyanditseho "Baho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe", gikangurira abaturarwanda bose kwita ku buzima bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe.

Abasore babiri n'abakobwa babiri bicaye kumeza bafite udukarita tubiri tw'ubururu, ak'umuhondo, ak'icyatsi n'ak'umutuku, bari kuturebaho bose bagaseka.

Abakorerabushake b'ubuhinzi bambaye imipira y'icyatsi bari kumwe nabayobozi babo bambaye amajire y'umukara bari kubereka ibikoresho bazajya bifashisha birambitse ku meza hari n'amakarita.

Farumasi, irimo imiti y'amoko menshi atandukanye, irimo imiti bakoresha ku ruhu, niyo batera amarushenge, harimo n'iy'ibinini, harimo n'iyo kunywa.

Umwana w'umusore wo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ufite ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho RBC gishushanyijeho n'agakingirizo, ikindi cyanditseho ngo tugakoresha neza.

Umubyeyi w'umumama, uri gukora imiti ya kinyarwanda, afite udusane twinshi turiho imiti ndetse n'amacupa ari kuyishyiramo, ari kujya ayoresha intoki ashyira mu kandi gasahani.

Inzuki nyinshi cyane, zifashe ku giti, zitari mu mutiba, ziri kumwe n'umwami kazi wazo, ziri mu biti birimo ibyatsi.

Umusaza ufite ibyatsi mu ntoki bitandukanye, akoramo imiti ya kinyarwanda ,impande ye hari inyubako y'ibyatsi, zimwe za kera.

Ibikoresho bya Kinyarwanda birambitse ku meza, harimo isekuru y'ikibumbano iri kumwe n'umuhini wayo ubumbye, harimo n'inkono irimo na bushi ndetse ku ruhande hari n'imiti ya Kinyarwanda ikoze mu byatsi.

Inyubako ya girubuzima iri mu mabara y'ubururu, imbere yayo hari kandagirukarabe banyuraho bagakaraba, hicayemo umugabo wambaye isarubeti n'agapfukamunwa.

Ikigo nderabuzima, kirimo umuganga urimo kuganira n'umurwayi, muganga arimo ategura akuma gapima umuvuduko w'amaraso ngo amwambike ku kaboko amupime.

Ibitaro birimo icyuma gitanga umuriro, haryamyemo abarwayi, hari n'uburiri butariho abarwayi, buri buriri bufite supanete, biri ahantu heza, biteye amarangi y'umweru asa neza.

Inyubako y'ibitaro isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku. Imbere yayo hari kubera inama y'ababyeyi. Hanyuzemo inzira y'igitaka, kuruhande hari jaride.